Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byabugenewe mu buvunzi bw'amenyo, babikoresha bavura indwara z'amenyo, barushaho kuvura indwara abarwayi baje babagana.

Abantu benshi bateraniye hamwe, barimo igitsina gore n'igitsina gabo, bamwe bambaye impuzankano, abandi ntazo bambaye, bamwe barahagaze abandi baricaye, bari kuganira ku buryo babasha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wishimye, aho ari ku mugezi yaje kuvoma amazi meza, kugira ngo ayakoreshe mu turimo dutandukanye, arusheho kugira ubuzima bwiza n'umuryango we wose.

Abana bari ku mugezi, harimo abakuru n'abato, baje kuvoma amazi bakoresha mu mirimo itandukanye yo mu rugo, barushaho kubaho no kugira ubuzima bwiza.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'umutuku, kikaba cyerekana uburyo imibereho y'umugore, umwana ndetse n'abantu muri rusange ihagaze.

Itsinda ry'abantutu ririmo igitsina gore n'igitsina gabo bari kuganira ku buryo bateza imbere imibereho myiza y'umuturage, barushaho kugira ubuzima bwiza, birinda ibibazo byose biterwa n'ubuzima bubi.

Itsinda ry'abantu benshi ririmo igitsina gore n'intsina gabo, riri kumwe n'umukangurambaga wambaye impuzankano y'umweru, ari kubasobanurira ku bijyanye n'ubuzima bwiza, uburyo ki bakwiye kugira imibereho myiza barushaho kunoza isuku.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru, abandi bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara, baganira ku buzima bwiza bwa muntu.

Umwana w'umukobwa wambaye agashabazi karimo amabara y'umutuku n'umweru, aho ari kuvoma amazi ku mugezi meza kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza akoresha amazi.

Igipapuro kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo asobanura neza uburyo abaturage bakwiye kugira ubuzima bwiza, barushaho kugira imibereho myiza ndetse n'abana babo n'imiryango yabo muri rusange.

Itsinda ry'abantu benshi bateraniye hamwe barimo igitsina gore n'igitsina gabo bakaba bakora mu nzego zitandukanye naho harimo n'abakora mu nzego z'umutekano bateraniye hamwe baganira ku mibereho myiza y'umuturage

Umubyeyi w'umuzungu uri gutanga ubutumwa ku bantu, aho ari kubagezaho amakuru yerekeranye n'ubuvuzi bugiye butandukanye, kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza n'uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo wirabura uri kumwe n'umugore wirabura ufite imisatsi miremire y'imikara, yambaye isaha ku kuboko y'umweru bari kungurana ibitekerezo, banigisha abantu uburyo bakwiye kugira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu barimo igitsina gore n'igitsina gabo bambaye udupfukamunwa bafite amacupa y'amazi, imbere yabo baganira ku bibazo by'ubuzima byose biga ku bisubizo byabyo.

Ikivunge cy'abantu kirimo abana, abagore bakuze, aho bateraniye ku ivomero bavoma amazi meza bifashisha mu mirimo yabo ya buri munsi barushaho kugira ubuzima bwiza, banirinda indwara zitandukanye.

Abantu barimo igitsina gore n'igitsina gabo bari kugaburira abana bagira ngo barwanye imirire mibi, babarinda kurwara indwara ziterwa no kurya nabi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi, harimo abato n'abakuru bateraniye ku ivomero, aho bari kuvoma amazi bakoresha mu turimo dutandukanye twa buri munsi, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, bakomeze kubaho.

Ikirango kiri mu mabara atandukanye cyerekana ikigero cy'ubuzima bwiza mu myaka igiye itandukanye, barushaho gushyira imbaraga mu guteza imbere ubuzima bwiza bwa muntu.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, aho ari kumwe n'ababyeyi bari kumwe n'abana babo, baje kureba ingano z'ibiro by'abana babo, babasha gukurikirana imibereho myiza yabo.

Itsinda ry'abamama bakiri batoya, bateraniye ku mugezi, aho bari kuvoma amazi kugira ngo babashe kubona ayo bakoresha mu mirimo itandukanye yo mu rugo, barushaho kubaho neza mu buzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo, aho ari kumwe b'igitsina gore, aho ari kumusobanurira imibereho myiza y'abana be, arushaho kubagaburira indyo yuzuye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuvuzi wera ufite imisatsi y'imikara wambaye impuzankano y'abavuzi iri mu mabara yumweru, ari kwita ku mwana warwaye kugirango abashe kuba yamenya indwara afite.

Ikirango kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru n'umuhondo, cyerekana ikigo gishinzwe imibereho myiza n'ubuzima bw'abaturage, kiranga y'uko dukwiye kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umufasha w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, aho ari kwigisha abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe ziterwa n'ibibazo bitandukanye, aho abahugurira kubana neza n'abantu, birinda amakimbirane kugira ngo barusheho kwirinda no kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi wambaye ikoti riri mu mabara y'ubururu bwijimye n'ikanzu iri mu mabara y'umutuku, aho akora akazi ko kuvura indwara zo mu mutwe, anahugura abantu bagiye bafite uburwayi butandukanye bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsinagore wicaye ahantu ha wenyine, ari gutekereza ku mibereho y'ejo hazaza akibaza ukuntu azaba ameze, yibaza azabaho ate, arushaho kwitekerezaho agahinda na ko kakarushaho kuba kamwica.

Uruvunge rw'abana bateraniye ahantu bari kurira bababajwe n'agahinda baterwa n'ibibazo bitandukanye, aho bamwe birabura, abandi bakaba bambaye imyenda yacitse, aho bari kuririra hamwe kubera indwara zo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo wagowe n'ubuzima yicaye mu muhanda yibaza ku mibereho y'ejo hazaza, anatekereza ku buzima bwe buri imbere kuko biteye ikibazo.

Umuntu w'igitsina gabo wera ahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'abantu bafite indwara zo mu mutwe, barushaho kubitaho.

Abantu benshi harimo igitsina gore n'igitsina gabo aho bateraniye munzu nini, bari kuganira ku buzima bwo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kiriho umuntu w'igitsina gabo ufite uburwayi bwo mu mutwe kikaba kiriho amagambo yerekana uburyo ki wakwirinda indwara yo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe aho harimo igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'abana, baganira ku buzima bwiza n'uburyo babasha kwirinda indwara zo mu mutwe, barushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, itangirwamo ubuvuzi bw'amenyo no kwita ku barwayi bafite ibibazo byo mu kanwa, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa wirabura aho ari gukora isuku mu menyo ye arushaho kurwanya impumuro mbi mu kanwa ndetse n'izindi ndwara zose ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umuntu ari gukorerwa ubuvuzi bwo mu kanwa kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, akurwa amenyo yangiritse mu kanwa, ahabwa ubufasha bwihuse kugira ngo akomeze kubaho neza, hifashishijwe ibikoresho byabuhariwe mu buvuzi bw'amenyo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize amarange y'umweru isa neza aho hakorerwamo ubuvuzi bw'amenyo kugira ngo abantu babashe kugira amenyo meza n'impumuro nziza mu kanwa barushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Umuvuzi uri mu cyumba cyo kuvuriramo abarwayi aho ari kwita ku menyo, arushaho kuvura no gusuzuma indwara zitandukanye zifata mu kanwa, kugira ngo abantu babashe kubaho nta ndwara, birinda indwara zose zo mu kanwa.

Inyubako irimo ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo no gusuzuma abantu bafite ibibazo byerekeranye n'amenyo, kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi irimo amabara y'umukara aho ari kwita ku menyo ye arwanya impumuro mbi mu kanwa. abasha kugira amenyo meza afite isuku kugira ngo arwanye umwanda mu kanwa.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi yabaye uruyenzi, ari gutanga ikiganiro ageza ku butumwa abantu bateraniye hamwe, ababwira ibyo yabageneye bitandukanye.

Igitabo kiri mu mabara y'umweru n'uburo gishushanyijemo ibishushanyo bitandukanye, kirimo amakuru yereka abantu uburyo bakwiye kugira ubuzima bwiza bakoresha amazi meza birinda umwanda.

Abavuzi barimo, igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, udupfukawa, bafite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, kugira ngo abantu babashe kubaho bafite ubuzima bwiza no gukira indwara zitandukanye.

Itsinda ry'abamama bakiri batoya bari kuganira ku buryo barera abana babo mu buryo bukwiriye, babafasha mukura neza babonkerereza ku gihe kugira ngo bazabashe gukura bafite ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikirango gifashwe n'itsinda ry'abantu b'igitsina gore, gitanga ubutumwa cy'uburyo bakwiye kwita ku buzima bwiza bwa muntu barushaho kubaho igihe kirekire.

Umuntu w'igitsina gore wambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru akaba akora akazi k'ubuvuzi afite igikoresho cyabuhariwe gikoreshwa mu gu kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako iri mu nzu y'ubuvuzi, irimo ibikoresho bakoresha bari mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu baje babagana.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite isuku ihagije, irimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, aho abavuzi babikoresha basuzuma banavura indwara zigiye zitandukanye.

Umuvuzi w'igitsina gabo wambaye impuzankano y'abavuzi yicaye mu cyumba cy'abarwayi aho babavura indwara zitandukanye barushaho kubitaho.

Ikirango gifite amabara agiye atandukanye cyerekana yuko hari inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, bafasha abarwayi kuba bakira indwara zabo.

Inyubako ndende yubatswe muburyo bugezweho, mbere yaho haparitse ibinyabiziga bitandukanye, bitangirwamo ubuvuzi butandukanye bw'indwara nyinshi, kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abavuzi barimo igitsina gore n'igitsina gabo, aho bari mu nyubako bavuriramo, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye,

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye aho hakorerwamo ubuvuzi bwo kuvura abana babaswe n'ibiyobyabwenge kugira ngo bogerere bagaruke mu buzima busanzwe, banasubire mu miryango yabo.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hakaba hakorerwamo mu gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye ku ndwara nyinshi abantu baba barwaye kugira ngo babashe gukira.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara y'umweru ndetse n'ayandi menshi, ikaba itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bavura abaturage kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza babaho batabangamiwe.

Icyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye kirimo ibikoresho bakoresha bavura banasuzuma indwara z'abarwayi baje babagana.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye bavura abaturage banasuzuma indwara zitandukanye kugira ngo abaturage babashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako irimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye bavura barasuzuma abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini irimo ibikoresho biri mu mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo. Ibikoresho bikoreshwa mu kuvura no gusuzuma indwara zitandukanye, aho abavuzi babikoresha bavura abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho abayigana basubizwa bavura banapimwa indwara bafite barushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, ikaba itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, abantu baza kuhivuriza kugira ngo babashe kwivuza no kwisuzumisha indwara zitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, barushaho kwita ku barwayi baje babagana.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho bikoreshwa bavura indwara zitandukanye, banasuzuma abarwayi kugira ngo barusheho kugira no kureba neza, aho babitaho babavura indwara zifata amaso.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, basuzuma abantu indwara zose zo mu kanwa n'iz'amenyo, barushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ndende nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho imbere yaho hahagaze abantu b'igitsina gabo bari kuganira, ikaba itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, iherereye mu karere ka Nyarugenge gaherereye mu mujyi wa Kigali.

Umuganga w'igitsina gore wambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru akaba afite ibikoresho byabugenewe, ari kwita ku barwayi mu cyumba cyabugenewe barwariramo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza banakire indwara bafite.

Umusore wambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru n'ubururu, aho arimo arivura igikomere cyatewe n'imyitozo ngororamubiri, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu babiri aho umwe ari igitsina gore undi ari igitsina gabo, bakaba bari mu gukora imyitozo ngororamubiri barushaho kugira ubuzima bwiza, aho bari gukina barwana barushaho gukora siporo.

Umusore ukiri muto aho yambaye agapira karimo amabara y'icyatsi, agakabutura k'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara nk'umuvuduko w'amaraso agabanye stress, agabanye umubyibuho ukabije arushaho kugira ubuzima bwiza.

Inkumi ifite imisatsi myiza y'imikara aho ari kunywa amazi ari mu icupa riri mu mabara y'ubururu avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kubaho neza yirinda indwara.

Umuntu w'igitsina gore wicaye mu cyumba cy'abarwayi, yaje kwivuza igikomere yagize mu gihe yari ari gukora imyitozo ngorora mubiri, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Icupa riri mu mabara y'ubururu, rikaba ririmo amazi meza asukuye aho umuntu ayafata igihe avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agarure ubuyanja arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore wirabura aho ari kunywa amazi ari mu icupa rifite amabara y'umweru avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza akora imyitozo yirinda indwara.

Ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho bimwe bifite amabara y'umweru, ibindi ay'umutuku, ibindi bikaba bifite amabara avanze umutuku n'umweru ndetse n'ayandi, bikaba bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, aho irimo ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu babashe kwirinda indwara, birinda umubyibuho ukabije, ahubwo barushaho kugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zatewe n'imyitozo ngororamubiri, abantu bazikoresha bavura izo ndwara kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'irabura uri kunywa amazi, aho avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura aho ari kunywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kuruhuka no kugira ubuzima bwiza, no kugarura amazi yatakaje mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bari mu cyumba cyabuhariwe cy'abarwayi, aho umuvuzi ari kwita ku murwayi we wagize igikomere avuye mu myitozo ngororamubiri; arushaho kumwitaho kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo w'ibigango wirabura ari kunywa amazi mu gihe avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abe yabasha kugarura ubuyanja(..)

Umugabo wera wambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru, ari kwivura igikomere yatewe n'imyitozo ngororamubiri arushaho kugira umubiri udafite ibikomere.

Umuntu w'igitsina gabo ari gukora imyitozo ngorora mubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara n'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso n'izindi nyinshi zitandukanye.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikirango kiriho abantu bera bari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, aho bari gukina imikino itandukanye, bereka abantu uburyo bakwiye kwirinda indwara zitandukanye, bakora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gifite amabara y'umweru n'umukara, aho gikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zatewe n'imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu bongere kugarura ubuzima nk'ubwo bari bafite mbere.

Icupa riri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi ririmo umuti w'amenyo ukozwe mu igikakarubamba wifashishwa mu koza no kwita kumenyo.

Ibikoresho byinshi, birimo imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza, birinda indwara.

Amacupa menshi ari hamwe arimo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zitandukanye, akaba afite amabara agiye atandukanye, aho amwe arimo amabara y'umweru, andi amabara y'icyatsi, andi umuhondo ndetse n'ibindi.

Ikimera kiri mu mabara y'icyatsi giteye mu murima, kikaba gikoreshwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zitandukanye barushaho kunoza ubuzima bwiza bwa muntu.

Ibimera byinshi biri hamwe bikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icupa ririmo umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, barushaho guharanira ubuzima bwiza bwa muntu butagira indwara.

Itsinda ry'ibimera biri ahabugenewe aho bikurira kugira ngo bibashe kuba bikuru bikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye kugira ngo abantu barusheho kugira imibereho myiza izira indwara.

Amacupa menshi atandukanye, ari mu mabara y'ubururu, umweru, icyatsi, harimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, avura indwara zitandukanye kugira ngo abantu babashe kuzikira ubuzima bwabo bugende neza.

Inyubako irimo amacupa agiye atandukanye, akaba arimo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikimera kiri mu mabara y'icyatsi aho gifitwe n'umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, aho gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye barushaho kuvura abantu bagira ubuzima bwiza.

Ikimera kiri mu mabara y'icyatsi giteye mu murima, kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye kugira ngo abantu babashe kubaho nta ndwara.

Icupa ririmo umuti w'amenyo ukaba ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, uwo muti ukaba wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo abantu birinde impumuro mbi mu kanwa.

Imiti myinshi itandukanye iri mu bikoresho byayo, ikaba ikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye barushaho guharanira ubuzima bwiza bw'abaturage.

Ibimera bigiye bitandukanye bifite amazina atandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye barushaho guharanira ubuzima bwiza bwa muntu.

Icupa riri mu mabara y'umweru n'icyatsi rikaba ririmo umuti ukoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ikaba iri hafi y'indi miti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho gukoresha imiti ya kizungu.

Imiti myinshi iri mu gikoresho kimwe ikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, aho gukoresha imiti y'imiinyamahanga barushaho gukoresha imiti gakondo.

Icupa riri mu mabara y'umweru n'icyatsi aho ririmo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo nk'aho bayikoresha bavura indwara zitandukanye barushaho kunoza ubuzima bwiza bw'abantu.